Aya ni amashusho y'abantu bari kubyina imbyino za kinyarwanda, barashushanyije ntabwo ari amafoto y'abantu ba nyabo. Harimo abato, abakuru. Hakabamo umugore ibumoso ndetse n'umugabo iburyo wambaye ikote n'ipantaro by'umukara.

Aba ni abanyeshuri babiri. Baragaragara nk'abashushanyijwe ntabwo ari abanyeshuri ba nyabo. Harimo agahungu gato n'agakobwa. Imbere yabo hari ijambo isomero.

Aka ni akamodoka gatoya. Ni agakinisho k'abana. Kari mu mabara yiganjemo umukara. Amapine yako ni manini kandi aragaragara cyane.

Uyu mwana ari gukina n'udukinisho dukoze mu nyamaswa. Ako afasheho ni ak'inyamaswa yitwa agasumbashyamba ikurikiwe n'inzovu.

Utu ni udukinisho twabana tubiri, kamwe ni agakobwa akandi ni agahungu. Abana bakunda kuduhabwa n'ababyeyi kugira ngo badukinishe.

Uru rukuta rugaragaraho igishushanyo cy'inkoko ibaze, ni urukuta rushushanyijeho ibishushanyo byinshi bigaragara y'uko byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri ku mashuri yabo.

Hano kuri uru rukuta haragaragaraho ibishushanyo bigera kuri bitatu, hejuru hari igishushanyo k'ikarita y'u Rwanda naho munsi y'iburyo hari itoroshi irimo amabuye, mu gihe ibumoso hari ikindi gishushanyo kigaragaza uko amaraso atembera mu mubiri w'umuntu.

Hano iyi ni ikarita y'igihugu cy'u Rwanda igaragaza intara z'igihugu cy'u Rwanda intara y'Iburasirazuba iragaragara mu mabara y'ubururu mu gihe Uburengerazuba nabwo ari uko umujyi wa Kigali urimo hagati kandi ni mutoya.

Aha hantu harimo ibikoresho byinshi byifashishwa n'abanyeshuri bo mu kiburamwaka. Biri mu mabara atandukanye. Harimo: ubururuu, umweru, umukara, umuhondo, icyatsi ndetse n'ayandi.

Aka gakobwa kari imbere ni agashusho kifashishwa iyo berekana udushusho two kwigisha abana batoya akenshi bo mu kiburamwaka no mu mashuri abanza.

Mu kuboko kw'iburyo haragaragara abanyeshuri batatu bo mu mashuri abanza, babiri n'abakobwa, mugihe uwo hagati ari umuhungu, iburyo naho haragaragara inyubako z'ishuri.

Aba bantu babiri bafashe icyapa, cyanditseho amagambo, ari mu ibara ry'ubururu, iruhande rwabo ibumoso hari undi muntu uri kugenda.

Ibi ni ibitabo bigera kuri bine, birambitse ku kintu, kiri mu ibara ry'umweru, ku gitabo kigaragara cyane mu kuboko kw'ibumoso, handitseho mu ibara ry'umutuku, ijambo Ikinyarwanda.

Utu tuntu tumeze nk'udukarito yatwanditseho inyuguti zitandukanye, naho hari utundi dukase na two mu nyuguti nka A, B, C ndetse n'imibare nka zeru, gatanu na karindwi.

Iki ni ikigo cy'amashuri. Inyubako iri ibumoso irabigaragaza. Imbere y'iki kigo hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda. Iruhande rwaryo ikikijwe n'ibyatsi.

Iki ni igikapu cy'abana bo mu mashuri abanza bashobora kwifashisha batwaramo ibikoresho by'ishuri, nk'amakaye, amakaramu ndetse n'ibindi byose bakenera iyo bari kwiga.

Hejuru hari indobo nyinshi, hasi na ho hari izindi ndabo ziri mu mabara atandukanye, byose birimo ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri.

Mu kuboko kw'ibumoso, haragaragara inkweto zo mu bwoko bwa bote, ziri mu ibara ry'umukara, hagati hari uturindantoki, mugihe iburyo hari agapfukamunwa.

Izi ni inyubako zigaragaza amashuri. Ni inyubako nyinshi, imwe inyuma y'indi. Imbere yazo, hari ubwatsi butoshye, buri mu busitani. Hakagaragaramo n'ibiti, biri mu mabara y'icyatsi kibisi.

Iri ni idarapo ry'u Rwanda riri imbere y'aya mashuri. Idarapo ry'u Rwanda riri mu mabara atatu, hejuru hari ibara ry'ubururu hagati ry'umuhondo hasi iry'icyatsi. Inyuma y'iri darapo hagaragara ikigo cy'amashuri.

Hano handitse inyuguti z'ikinyarwanda : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, hagakurikira Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z.

Iyi ni inzu y'ubwiherero, ifite ahantu habiri abantu bashobora kwiherera iburyo n'ibumoso, ikikijwe n'agapangu kubakishije amatafari.

Aya ni amashusho yifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke cyangwa abanza bari kwiga, ahambere hejuru haragaragara isuka ahakurikiye icyuma, ahanyuma igikombe.

Utu ni udukinisho tw'abana, ni dutatu, tubiri ku hande n'akandi kamwe hagati, kari mu ibara ry'umweru, agatuza kako, karimo igishushanyo cy'umutima.

Ibi bitabo biri mu isomero biri mu tubati bitondetse ku buryo bigaragara ko abanyeshuri babishaka baza kubitira bakabisoma. Hari ibiri mu mabara y'umuhondo, ay'ubururu ndetse n'ay'umweru.

Aba ni abanyeshuri bari ku ishuri, batonze umurongo. Bose bambaye impuzankano. Hejuru amashati y'umweru mu gihe hasi abakobwa bambaye amajipo ari ibara ry'ubururu.

Uru rubyiruko rwinshi ni urw'abanyeshuri, uri imbere ateruye ibasi mu gihe abamuri inyuma bafite ahantu berekeje amaso.

Aba banyeshuri bafashe icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ivu handitseho amagambo menshi atandukanye.

Aba bantu benshi bari kugaragara mu mpuzankano, imbere yabo hari umugore uri kubabwira ibintu byinshi, bishobora kuba ari impanuro cyangwa ari kubigisha, yazamuye akaboko k'ibumoso afite urupapuro rw'umweru.

Aba bantu bari iburyo n'ibumoso, bose bambaye ibisarubeti biri mu ibara ry'ubururu. Imbere yabo hagiye hari ameza nayo ateretseho ibikoresho runaka.

Aba bantu ni bane, harimo abagore babiri n'umugabo umwe, undi uri ibumoso hirya ntabwo agaragara neza biragoye kumenya uwo ari we, imbere yabo hari ibyuma byubakishije inzu biri mu ibara ry'ubururu.

Aba ni abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, uri imbere afite indangururamajwi, yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara niwe mwarimu wabo, inyuma yaho hagaragara inkuta z'amashuri bigiramo.

Iri ni ishuri, ku gikuta cyaryo hashushanyijeho ibintu byinshi. Ijambo rigaragara cyane hejuru, ryanditse mumabara y'ubururu. Mu gihe icyapa kirimo umweru.

Aba bantu bose uko ari batanu bari kugaragara mu kuboko kw'ibumoso, bambaye amajire. Uri imbere yabo ni we wambaye iyi isa ukwayo. Iburyo bwabo haragaragara inyubako.

Aha haragaragara abanyeshuri. Bicaye mu ishuri. Ni abanyeshuri bo mu mashuri abanza cyangwa ayisumbuye, bambaye amashati y'umweru ndetse abahungu bambaye amapantaro ari mu ibara rya kaki, abakobwa nabo ni uko.

Aha hagaragara abanyeshuri benshi. Uri imbere yabo afite indangururamajwi mu ntoki ze. Ari kubabwira . Yambaye ishati iri mu ibara ry'umweru ndetse bari mu nzu cyangwa mu ishuri.

Hagaragara abanyeshuri bambaye imyenda, amajipo ya kaki ndetse n'amashati ari mu ibara ry'umweru, ku mashati bambaye na karuvati.

Abantu bari imbere bafashe igitambaro kinini cyanditseho amagambo yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, iburyo bwabo hari Umupolisi, inyuma hari abandi bantu benshi.

Aba bantu bicaye mu ntebe bose, uretse umuntu umwe uhagurutse. Bambaye amashati asa ndetse n'amapantaro ni impuzankano kandi bari mu gisharagati.

Aba bantu ni bane babiri bari ibumoso ni abahungu. Mu gihe abari iburyo ari abakobwa. Abakobwa bambaye amashati y'umweru n'amajipo ya kaki. Mu gihe abahungu bambaye amapantaro y'umukara.

Iyi nyuko ni iy'ikigo cy'ishuri. Inyubako izitijwe utwuma turi mu mabara y'umutuku kandi Ifite taje byiri. Iburyo bwayo hagaragara ikigega kiri mu ibara ry'umukara.

Uru ni urugi rwo ku cyumba cy'yinzu, rurakinze. Urukuta ruri mu mabara y'umweru, mu gihe urugi ruri mu mabara y'ikigina. Hasi hagaragara sima.

Hano haragaragara urubyiruko rw'abasore n'inkumi, bamwe bafite ibitabo abandi ntabyo bafite, bamwe bambaye amakote abandi bambaye amashati, bari kuri kaminuza y'u Rwanda.

Aya ni amashusho agaragaza ubugeni, hari utubaho duto duto, tugiye turambitseho ibishushanyo, bidozwe mu myenda yo mu bwoko bw'ibitenge.

Aha haragaragara ishusho nziza y'ubugeni bukoze mu gitenge na cyo gishushanyijeho uduseke tubiri, turi mu mabara y'umweru n'umukara.

Aba bantu benshi, bose bicaye mu cyumba kimwe kigari. Bari kwitegereza ahantu hamwe nk'aho bakurikiye uri kubabwira. Bambaye kandi imyambaro itandukanye.

Hano hasi haragaragara intebe zikoze ukuntu. Ziri mu ibara ry'ubururu ndetse iburyo bwazo haragaragara ameza maremare azisumba. Inyuma ku gikuta hamanitse ibipapuro binini.

Izi ntebe ziri mu ibara ry'ubururu, ziri ku murongo. Zikoze neza ku buryo uwicaye iburyo bwe ashobora kwegamira ku kuboko cyangwa akahandikira. Ziri mu cyumba k'ishuri, zikunda kugaragara muri kaminuza.

Hano haragaragara cyane imbuga irimo amapave. Inyuma y'iyo mbuga haragaragara kandagira ukarabe iri mu mabara y'umweru ndetse ibyo byose biri mu gipangu kirimo ibiti.

uru ni urubyiruko, rwinshi rurimo abahungu n'abakobwa, bose bafite impapuro za seritifika z'uko bashoje ibintu runaka kandi byemewe.

Aba ni abanyeshuri bo muri kaminuza. Izi ntebe bicayemo zifashishwa cyane muri kaminuza y'u Rwanda. Bahanze amaso imbere, aho uvuga agomba guhagarara. Bose bategereje kumva ngo bige.

Aba bantu bambaye amakanzu yambarwa n'abantu barangije mu amashuri ya kaminuza. Aya amakanzu y'imikara ndetse n'ingofero.